Icupa ry'umuti ufunze neza, ukoreshwa mu buhinzi ni umuti ukoreshwa mu bihingwa by'amoko menshi, cyane cyane urwanya ibyonnyi, nka shokonkwa, n'ibindi bishobora kwibasira ibihingwa.

Amacupa atandukanye arimo amasabune n'imiti yica udukoko. Ni amacupa afunze neza abasha gukoreshwa umuntu yisukura, asukura ubusitani bwe, asukura inzu ye ndetse harimo n'imiti yica udukoko twibasira ibihingwa.

Icupa ripfundikiye ry'umuti witwa detane. Ni umuti ukoreshwa cyane mu buhinzi ubasha kwica udukoko dushobora kwibasira indwara, imyaka nk'ibirayi, ibigori, ibihaza, amashu, n'ibindi.

Urugemwe rutoya rugemetse mu gihoho，aha ngaha umuganga ushinzwe iby'ibihingwa，ari gushyiraho umuti，urinda uru rugemwe kwibasirwa n'udukoko twarutera indwara.

Itsinda ry'abahinzi babiri bari kuyora ifumbire y'imborera, aho bayitwara mu murima kugira ngo bajye kuyikoresha mu buhinzi. Ifumbire y'imborera ni ifumbire iva mu ruvange rw'ibyatsi, n'ibisigazwa by'ibiryo, n'ubutaka bikabora bigakora ifumbire.

Ipaki ifunze neza irimo umuti bita Detane ukoreshwa cyane ku gihingwa cy'ikirayi, wica udukoko dushobora kwibasira icyo gihingwa, ukarinda amababi yacyo kuba yakwangizwa n'udukoko cyangwa se n'imvura nyinshi.

Ubwoko bw'umuti wica udukoko wo mu bihingwa ufunze neza ufunze mu icupa rya litiro. Ukoreshwa cyane cyane mu myaka kugirango urinde imyaka kwibasirwa n'udukoko dutera indwara.

Igihingwa cy'ikigori kiri kumera kiva mu butaka, umuhinzi ari kucyitaho ashyiraho ifumbire y'imborera, kugira ngo kibashe gukura neza kizamuhe umusaruro yifuza.

Umuhinzi uri mu murima uhinzemo igihingwa cy'ikirayi, ari mu gikorwa cyo gutera umuti wica udukoko murì iki gihingwa cy'ibirayi, yambaye neza arikwije kugirango yirinde kuba yahura n'uyu muti ukaba wamwangiza ku ruhu.

Umudamu w’umuhinzi mworozi ari mu murima w’inyanya, aho ari gutera umuti yifashishije icyuma cyangwa se ipompo yabugenewe. Ameze neza, ni umudamu umeze neza ufite imbaraga, uri kwita ku gihingwa cy’urunyanya.

Itsinda ry'amato menshi y'abarobyi, harimo n'abarobyi bari mu murimo wabo wo kuroba. Amato ari mu kiyaga ahantu amazi adatemba hatuje. Bari mu kazi k'uburobyi bw'amafi. Amafi ni ikiribwa kibasha gutanga amafaranga ku barobyi, ariko kandi kigatanga n'intungamubiri ku bakiriye.

Ifunguro ryiza cyane riteguye neza. Rihiye, ryiteguye guhita riribwa. Rigizwe n'ibyubaka umubiri, ibikomoka ku matungo. Risa neza ndetse riraryoshye ukurikije uko rigaragara mu maso.

Umusaruro mwinshi cyane kandi mwiza unogeye ijisho w'ibikomoka ku matungo byitwa amafi. Amafi yamaze kurobwa, yakusanyirijwe hamwe, umuntu wese ushaka ifi yiteguye kuba yayihabwa. Ahangaha abaguzi n'abagurisha bose bahawe karibu.

Umusaruro w'amafi amaze kurobwa mu mazi, aha ari gutunganywa kugira ngo abashe kugezwa ku isoko, abashe kugurishwa, bityo umurobyi abone amafaranga n'uwaje guhaha abone icyo kurya.

Amafi ikiribwa kirimo ubwoko bw'ibyubaka umubiri, ni ikiribwa kikunda kuboneka hano mu Rwanda. Amafi aboneka mu biyaga byinshi byo mu Rwanda kandi akaba adahenze abasha kubonwa n'umuryango wifashije hano mu Rwanda.

Ikiribwa giteguye neza cyane， kiri mu bwoko bw'ibyubaka umubiri bikomoka ku matungo， kitwa ifi. Ifi yokeje neza， iri ku isahani，irateguye rwose，umuntu ufite inzara yahita arya.

Amato menshi y'abarobyi ari mu kiyaga aho aya mato aba ategereje kuroba amafi bashobora kuyajyana mu isoko bakayagurisha bakabona amafaranga amafaranga akabafasha mu kazi kabo ka buri munsi no kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Amafi abiri, amafi meza cyane arambitse ku meza aho ari gutunganywa, kugira ngo ajye gutegurwa avemo ifunguro ryiza cyane, Ryiganjemo cyane intungamubiri zubaka umubiri.

Itsinda ry'abantu bakeya baringaniye bakora umwuga w'uburobyi bw'amafi mu mazi magari y'ikiyaga. Bari mu kazi kabo kaburi munsi bamwe bari gutegura ibikoresho bari bukoreshe kugira ngo bajye mu mazi kuroba.

Umurima udahinze, urimo igihuru cyangwa se ikigunda, ariko harimo ibyatsi byinshi bishobora kwifashishwa nk'ibiryo, cyangwa se nk'imiti ya kinyarwanda. Aha turi kubonamo insina, tukabonamo amateke, n'ibindi byinshi.

Igihingwa ngandurarugo cy'ikigori gihinze neza mu murima, kiri mu kigero cy'aho cyenda kwera, kimaze guheka kimeze neza, n'ubwo umurima utabagaye, ariko ibigori birimo birasa neza.

Igihingwa cy'ibireti kimeze neza cyane，kiri mu murima，aha izi ndabo z'ibireti zireze， zigeze igihe cyo gusarurwa， zikajyanwa aho zihindurwamo ibindi byabugenewe， bikorwamo imiti.

Imirima myinshi, ubutaka buhurijwe hamwe, bukorerwaho imirimo y'ubuhinzi. Kuri ubu butaka, ibihingwa byinshi byareze, byamaze gusarurwa. Harimo umuhinzi uri ku murima we, wahinzemo ibihingwa bitari byera, yaje kubisura ngo arebe uko bimeze.

Umurima munini mwiza cyane, uhinzemo igihingwa cya karoti, karoti n'igihingwa cyerera mu butaka nk'ikinyabijumba, karoti kandi n'igihingwa cy'imbuto cyiganjemo cyane, intungamubiri zirinda indwara.

Umurima munini uhinzemo igihingwa cy'amajeri cyangwa se amashaza, wegerereye ingo z'abaturage kandi aya mashaza rwose agiye kwera afite umusaruro mwiza.

Insina iteye mu murima uri impande y'urugo. Insina ni igihingwa kiza ngandurarugo ,cyeraho igitoki cyifashishwa mu mafunguro ya buri munsi . Ndetse kandi insina ibasha gutanga ubwatsi ku matungo.

Umurima uri hafi y'urugo uteyemo ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo insina, harimo amateke, harimo urubingo rugaburirwa amatungo, harimo n'ibiti bishobora kwifashishwa mu gucana muri uru rugo.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ikirayi, kimeze neza gitoshye, kimaze kurenga igihe cyo gusukirwa. Kiri hafi kwera gikikijwe n'ingo zimeze neza, zikikijwe n'ibiti n'ibindi bihingwa nk'insina n'ibiti by'imbuto.

Uru rugo rutuwemo n'abantu bakora umwuga w'ubuhinzi, basaruye amasaka aranitse imbere y'urugo hari igiti cy'umuko, gifasha urugo guhumeka umwuka mwiza ndetse kibaha n'agacucu.

Umurima mugari cyane munini kandi mwiza, uhinzemo igihingwa cy'kirayi kigeze mu kigero cy'uruyange. Ni ibirayi byiza cyane bisa neza, ubona ko urebesheje ijisho, bizatanga umusaruro mwiza cyane utubutse.

Ubutaka buri hamwe, bukorerwaho igikorwa cy'ubuhinzi, hari ibiti bitanga umwuka mwiza, hari ibiti byatemwe bikoreshwa mu gucana, hari ibyatsi, hari ikirere cyiza kigaragaza ko ubu butaka bukorerwaho umurimo w'ubuhinzi.

Urugemwe rwiza rw'igiti cyitwa umusave, ruteye ahantu heza mu murima, ibindi byatsi byarumeze impande, bishobora kurubuza gukura neza, ariko uru ni urugemwe rw'umusave rumeze neza cyane.

Umurima uhinze neza utunganyije. Uhinzemo igihingwa cy'ikigori kiri mu kigero aho kimaze gusukirwa. Kivanzwe n'insina, kandi byose bisa neza, bimeze neza.

Inzira nyabagendwa igana mu rusisiro, irimo umukobwa wikoreye ikidomoro avuye kuvoma, hari ingo rero ziri impande y'iyi nzira, nziza zikikijwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza ku bantu baba muri izi ngo.

Igiti cy'umugano, gihinze hamwe, umungano rero n'ubundi ni igiti gikunda kubaho mu matsinda, umugano wifashishwa mu bintu byinshi by'ubuhinzi, cyane cyane uvamo imishingiriro, cyangwa se bakawubakisha.

Imbuto nziza z'avoka ziri ku giti cy'avoka, zeze aha ngaha, umuturage cyangwa umuhinzi ashobora kuza akazisarura, akazifashisha ku mafunguro ya buri munsi.

Umurima munini cyane, utunganyije neza, uhinzemo igihingwa cy'ikirayi kigeze mu kigero cyiza, aho kimaze kurenga ubutaka, kimaze gusukirwa, kimeze neza cyane.

Igihingwa cy'ikigori gitoshye, gishishe kimeze neza, kimaze kugera mu kigero aho kimaze guheka, kirasa neza gifite ifumbire hagati mu kayira harimo n'abadamu babiri bari kunyura muri ibi bigori.

Umusaruro mwiza cyane w'igihingwa cy'igishyimbo, umaze gusarurwa. Umuhinzi arimo kuwutunganya, urabona ko ari ibishyimbo byiza by'imbuto nziza, bimaze guhurwa bitaragosorwa ariko bimeze neza.

Igihingwa cy'amateke cyeze cyatunganijwe, kirimo gutegurwa kugira ngo gitekwe iteke ni igihingwa cyerera mu butaka cy'ikinyabijumba gikungahaye cyane ku ntungamubiri zitera imbaraga.

Imbuto nziza z'imyembe ziri ku giti cyayo. Ni umwembe utoshye usa neza, uriho imbuto ziri hafi kwera zikagera mu kigero cyo kuba zacibwa zikaribwa, uriho ifumbire kandi umeze neza cyane.

Umusaruro w'imbuto zikomoka mu buhinzi, zakusanyirijwe, ahantu zicururizwa, aho abaguzi n'abagurisha babasha guhura, bagahana amafaranga, yifashishwa umunsi ku munsi, umwe agatwara imbuto agaha undi amafaranga.

Umubyeyi wishimye cyane uri mu murima w'amashu ari mu kigero cyo kwera. Ishu rero ribasha gukoreshwa nk'uruboga mu biribwa rikaba ribonekamo intungamubiri zirinda indwara.

Itsinda rinini ry'abahinzi bari mu gikorwa cyo gukora ifumbire y'imborera, ni aho rero bafata ibyatsi bakabivanga n'ubutaka bagashyiramo amazi ndetse bakabirunda ahantu hamwe bakabitwikira bikazavamo ifumbire nziza cyane y'imborera.

Urubuto rwa ,rwo mu bwoko bw'ibihaza. Rwitwa watameloni. Ni urubuto rurinda indwara. Rugira amazi menshi muri rwo kandi aryoshye. Rurateguye neza rusa neza. Rubereye ijisho ruteye ipfa.

Umusaruro mwinshi cyane mwiza ushimishije w'igihingwa cy'ikirayi wakusanirijwe hamwe mu mifuka ituma bibasha gutwarwa kugirango ngo bijyanwe ku isoko.

Igihingwa cy'avoka, iki ni igiti cy'avoka kibanguriye. Urabona ko ari kigufiya kandi gifite umusaruro. Gitangiye kwera nubwo kikiri gitoya.

Umusaruro mwinshi cyane w'igihingwa cy'ibirayi ,ni igihingwa cyera cyane gifasha umuhinzi ugihinga kwiteza imbere, umusaruro wakusanyirijwe hamwe aho umuguzi abasha kuwusanga akagura.

Urubuto rw'umwembe ruri ku giti ni urubuto rwiza cyane rugira intungamubiri nyinshi zifasha umubiri kwirinda indwara, ni urubuto rwenda kwera rero ruri ku giti ariko urabonako rwenda guhisha.

Igihingwa cy'ikigori gihinze mu murima umeze neza, urimo ifumbire, kigeze mu kigero cyo kuba ari imiheko, cyatangiye kumya umusatsi wa mbere. Ni igihingwa rero kiganzamo intungamubiri zitera imbaraga.

Itsinda ry'abantu babiri, ni abadamu bari mu murima w'ingano, bari gusarura. Ingano zeze neza, zifite amahundo ameze neza, bafite umusaruro mwiza cyane, ni yo mpamvu bishimye, bari gukora bashishikaye.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibirayi wakusanyirijwe hamwe mu mifuka hari itsinda ryinshi ry'abantu, hari urujya n'uruza rw'abaje kureba ibi birayi ndetse hari abaje no kubigurisha kugira ngo babone amafaranga.

Umusaruro mwiza cyane w'igihingwa cy'umwumbati wakuze umeze neza. Ikijumba cy'umwumbati kimaze gukurwa biteguye kujya kuwutegura bakawutunganya kugeza ubwo ubasha gutekwa ukaribwa.

Igihingwa cy'amatunda hariho amatunda yeze, hariho ibitumbwe, hariho indabo. Itunda rero ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imbuto ziganjemo cyane cyane intungamubiri zirinda indwara.

Umusaruro w'igihingwa cy'amateke. Amateke ni igihingwa cyera ibijumba byo hasi. Ni ikiribwa kiri mu bwoko bw'ibitera imbaraga. Amateke arasukuye, biteguye kuba bayateka umwanya uwo ari wo wose.

Urubuto rw'ipapayi rweze ruhishije neza, rukasemo kabiri. Umuhinzi warusaruye ari kurutunganya kugira ngo abashe kururya. Rukungahaye cyane rero ku ntungamubiri zirinda indwara.

Itsinda ry'abahinzi batatu bari mu murima umeze neza cyane, uhinzemo igihingwa cy'ibirayi bari mu mirimo y'isukira urabona ko ibi birayi bishishe, bimeze neza bizatanga umusaruro ushimishije.

Urubuto, ikiribwa kirinda indwara, urubuto rwiza rwa avoka rweze, ruri ku giti cyarwo gishishe, kimeze neza, uyu musaruro ureze, ubasha gusarurwa ukajya gukoreshwa mu biribwa.

Itsinda ry'ababyeyi batatu bari mu murima, mu murimo w'ubuhinzi barihizihiwe barashishikaye, bafite amasuka bari guhinga. Hakikijwe n'indi mirima myinshi igiye irimo ubwatsi bw'amatungo bwiganjemo urubingo.

Umusaruro uhagije, mwiza ushimishije w'igihingwa cy'igitoki, wakusanirijwe hamwe, uri ku isoko, aho utegereje abaguzi baza guhaha, bityo uwawuzanye nawe akabona amafaranga amufasha kwikenura.

Umusaruro ukomoka mu buhinzi, w'imbuto nziza zihiye neza, zitwa amatunda. Itunda ni urubuto rwiza rwiganjemo intungamubiri zirinda indwara. Uyu muhinzi yawusaruye yawukusanyirije hamwe aho ari bubashe kuwugeza ku isoko.

Akarundo gatoya k'umusaruro w'igihingwa cy'ibirayi, ni ikirayi kimeze neza, cyeze neza ku mugozi w'ikirayi, aha cyakusanyijwe kugira ngo kibashe kumurikirwa umuguzi.

Avoka yeze ihiye nziza cyane isatuye umuntu wayitaze yiteguye kuyikoresha rwose nk'ifunguro agiye kuyirya avoka n'urubuto rwiza dusangamo ibirinda indwara byinshi cyane.

Itsinda rigari ry'abantu benshi, baje mu murimashuri, bari mu gikorwa cyo gutera imbuto, bateye ku murongo. Bari kumwe n'abayobozi babo, rero aho abayobozi bereka abahinzi, uburyo bashobora gutera imyaka ku murongo.

Imirimo itandukanye ikorwa kuva igihingwa cy' ikigori utangiye kugihinga kugeza ugera ku musaruro wa nyuma, aho uba wabasha no guhunika kugira ngo ikigori kizagutunge mu minsi iri imbere.

Umuhinzi w'umubyeyi w'umudamu uri mu murima w'ibirayi yaje gusura umurima we ariko ari no gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa terefone. Aarimo kuganira n'abantu anagikoresha ubona ko yishimye amwenyura ari mu murima.

Igihingwa cy'ikigori kimeze neza cyane. Kigeze mu kigero aho kimaze guheka, kirashishe, gisa neza, aha ngaha umuhinzi aba agomba kugisura buri munsi, areba niba nta byonnyi biri kucyibasira.

Igiti kinini kiza cyane, gihunze amatunda, umuhinzi ari mu murima, yaje gusarura umurima w'amatunda. Harimo amatunda yeze, harimo ibitumbwe, mbese uyu murima umeze neza cyane, urashimishije.

Umusaruro w'igihingwa cy'amateke, ndetse n'imbuto y'igihingwa cy'amateke, biri ahantu hamwe, umuhinzi yabikusanyije arishimira ibyiza yagezeho kuri uyu musaruro w'igihingwa cy'amateke.

Umusaruro w'ibijumba byiza cyane bimaze gusarurwa byashyizwe ahantu hamwe, aha birabasha kujyanwa ku isoko aho umucuruzi abasha kubibona, ndetse n'umuguzi akabasha kubibona, bagahahirana bose bakiteza imbere.

Umuhinzi uri mu kazi neza, ashishikaye, ari mu murima w'igihingwa cy'icyayi, ari mu mirimo yo gusarura, umuhinzi rero ufite imbaraga rwose, wishimiye umusaruro we uko umeze.

Umusaruro mwinshi cyane w'igihingwa cy'umuceri. Uri mu mifuka uhunikwamo, ukaba no mu nzu nini cyane uhunitsemo. Ni umusaruro ubitse neza, uzifashishwa mu gihe kiri imbere utunga abaturage.

Igiti cyiza cyane cyo mu bwoko bw'ikinyomoro. Ni urubuto ruribwa. Kiriho imbuto zeze n'imbuto ziteze. Aha ngaha wabasha gusarura, ugahita uzironga, ukazirya. Ni imbuto nziza cyane zirinda indwara.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga cyitwa puwavuro, gihinze mu murima mwiza cyane ufite ifumbire urabona ko gitoshye, kiri mu kigero cy'aho gifite imbuto zimwe zireze zigeze igihe cyo gusarurwa izindi hara cyabura iminsi ngo zisarurwe.

Urubuto rweze ruhishije rw'urubuto rwitwa ipera. Ipera n'urubuto rwiza cyane ruryohera rwera ku giti kitari kirekire cyane, abana rero bararukunda cyane kuko ruraryohera kandi rubonekamo intungamubiri nyinshi zirinda indwara.

Umuhinzi wishimye cyane, umeze neza uri mu murima w'igihingwa cy'amashu yeze, arishimye cyane, avuye gusarura imirimo y'intoki z'amaboko ye.

Igihingwa gikomoka mu buhinzi cyitwa ikijumba， gisa neza cyane， kirahiye， kiri mu nkono，aho kimaze gutunganywa，ubu kikaba cyiteguye kujyanwa ku meza， kuribwa.

Imyumbati ivuye gukurwa mu murima iri hamwe, yakusanyirijwe hamwe kugira ngo uyishaka abashe kuyibona mu buryo bworoshye. Umwumbati ni igihingwa cyerera mu butaka nk’ikijumba, kikaba kibonekamo intungamubiri nyinshi zitera umubiri imbaraga.

Umurima mugari uhinzemo amashu ageze mu kigero cyo gusarurwa, harimo abagore bameze neza bishimye baje gusarura aya mashu. Ishu ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga kandi gifite intungamubiri nyinshi zirinda indwara.

Itsinda ry'abahinzi bishyize hamwe bahinga igihingwa cy'inanasi, basuye umurima wabo rero w'inanasi. Bari kungurana ibitekerezo by'ukuntu barushaho kuzikorera zikagira umusaruro wisumbuyeho.

Itsinda ry'abantu biganjemo abahinzi， ndetse n'abayobozi bashinzwe iby'ubuhinzi， basuye umurimashuri，uhinzemo igihingwa cy'imyumbati. Bari kuganira bungurana ibitekerezo， ku kuntu barushaho guteza imbere， igihingwa cy'umwumbati.

Umuhinzi uri mu kibaya cyiza cyane mu murima we w'inyanya. inyanya ze zimaze gutumbika ziri ahantu hashimishije, zifite ibitumbwe byiza kandi byinshi. Na we arimo yishimira ibyo yagezeho. Yawusuye ari kuwukenura akura ibyonnyi mu myanya.

Umudamu umeze neza wishimye , uri gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa terefoni , ariko ari no mu muririma wibirayi . Aho ari mu kazi ko kukibibagara , iki kirayi kimeze neza cyane kandi gishishe.

Umuhinzi uri mu murima w'ibigori, aho igihingwa cy'ikigori kigeze mu gihe cyenda kwera. Aje gusura umurima, aragenzura niba nta byonnyi birimo, ndetse akabasha no kwegura ibigoni byaba bigiye kugwa hasi.

Umusaruro w'igihingwa cy'ikinyampeke cyitwa amasaka, kiri ku nkoko aho kiri gukorerwa isuku, kugira ngo kijye kubyazwamo ifu yo gukoresha igikoma.

Umusaruro mwinshi cyane kandi umeze neza w'imbuto zitwa amaronji. Umuhinzi yawukusanyirije hamwe kugira ngo awiteho abashe no kuwugeza ku isoko, aho awugurisha na we agakuramo amafaranga yo kwikenuza.

Igiti cy'urubuto rwitwa ipapayi ni urubuto rurinda indwara. Ni igiti gihunze neza, gifite imbuto nyinshi harimo izeze, zishobora guhita zihanurwa zikaribwa, harimo n'izindi ziteye, ariko kimeze neza cyane kirashishe.

Itsinda ry'abahinzi benshi biganjemo abagabo, bari mu murimashuri uhinzemo ubwoko bw'imbuto z'amashu, cyangwa se imboga, bari kungurana ibitekerezo, uburyo bakwita kuri iki gihingwa kigatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Umusaruro w'igihingwa cy'imboga ziganjemo cyane cyane karoti, ibitunguru, beterave. Ni umusaruro uri hamwe rero, ni mwiza kandi urashimishije, umuhinzi yishimiye ko yasaruye imbuto zimeze neza.

Abantu bambaye imyenda isa， baragaragara neza cyane，ahantu hose bari ku buryo ubarebye uba ubona ari abantu bameze neza， kandi bafite icyerekezo cy'ejo hazaza. Ni byiza rero guhurira hamwe mwishimye，kandi mwambaye ibisa， muba mukeye cyane.

Umukumbi w'ihene nyinshi ziri ahantu hamwe, ziri ahantu mu kibanza cyiza, ubonako ziba hamwe. Ziteguye kwahurwa ngo zijyanwe mu rwuri aho zibasha kurihisha, zikabona n'amazi meza.

Umuhinzi uri mu mirimo y'amaboko mu murima we, ku gihingwa cy'ibirayi, ari kugikorera umurimo wo kugisukira, agiha itaka ryinshi, ndetse akuramo n'ibyatsi bishobora kukibangamira mu mikurire yacyo.

Umusaruro w'igihingwa cya kawa uri gutunganwa, ugeze ahantu hashimishije, aho uyu musaruro uri ku bwanikiro, abari gutunganya uwo musaruro, bishimiye cyane intera bamaze kugeraho mu byishimo byinshi.

Igihingwa cy'ikirayi gihinze neza mu murima, ni cyiza cyane kimaze kugera ku rugero rwo gusukirwa, harimo itsinda ry'abagore babiri bari mu murimo wo gusukira iki kirayi, ari na ko bakibagara bakirinda ibyonnyi.

Umusaruro w'ibijumba wakusanyirijwe hamwe. Aho bashyize hamwe ku isoko kugira ngo abahinzi babashe kubona amafaranga, abaguzi nabo babashe kubona ibyo bahaha, bityo amafaranga ahererekanwe muri ubwo buryo bwo kugura no kugurisha.

Itsinda ry'abagore batatu b'abahinzi bari mu murima w'ibishyimbo, umurima uteyemo ibishyimbo bigeze mu kigero cy'imiteja. Igishyimbo ni igihingwa dusanga ahantu henshi mu Rwanda, umusaruro wacyo ugakunda kuba mwinshi.

Uruboga rw'amashu, ishu riteye mu murima rirashishe riri mu kigero cyo gupfundika, rimaze gupfundika rimeze neza urabona ko rizaba rinini, rigatanga umusaruro mwiza ushimishije kuri nyiraryo.

Inyanya zireze izindi ntabwo zari zera, umubyeyi wishimye cyane wahinze izi nyanya mu nzu y'ubuhinzi, aricaye aramwenyura arishimira umusaruro inyanya ze zifite.

Abahinzi babiri bikoreye umusaruro bavuye mu murima guhinga batahanye n'umusaruro. Umwe afite umusaruro w'ubunyobwa undi afite imboga rwatsi barishimye cyane kuko bavuye gusarura umusaruro uvuye mu mirimo y'amaboko yabo.

Umurima munini cyane uciyemo amaterasi y'indinganire ku miringoti hateye ibiti bivangwa n'imyaka. Amaterasi y'indinganire rero ni meza cyane afasha ibihingwa kwera neza ndetse hakaboneka n'ubwatsi bw'amatungo.

Ubutaka，ikibanza kirimo ubwatsi，ibyatsi byo mubwoko bw’umucaca，ni ahantu ushobora kwicara，ukaruhukira，ahantu wafatira akayaga waganirira n'inshuti yawe，ahantu wakorera ikintu cyose ushaka cyagufasha kuruhuka mu mutwe.

Ibishyimbo byiza cyane, ibishyimbo byasaruwe biri ku nkoko, biri gutunganywa, bikorerwa isuku, bimeze neza. Ni ibishyimbo bisa neza, bikungahaye cyane ku ntungamubiri zubaka umubiri.

Umurima uhinzemo amoko menshi y'ibihingwa byiza cyane bimeze neza, higanjemo igihwagari, ibitunguru, ibishyimbo ndetse n'imboga. Ni umurima rero uri impande y'urugo ariko umeze neza cyane.

Urugemwe ruri gututumuka mu butaka, ni urugemwe rumeze neza, rushishe, ruri mu butaka bufite ifumbire ihagije, ni urugemwe rero ruzakura neza, rugatanga n'umusaruro ushimishije.

Imbuga iriho ikigega, iriho n'umutiba, ikigega n'igikoresho bahunikamo gikoreshwa n'Abanyarwanda, iyi mbuga irimo ubwatsi bw'indabo, ndetse irimo n'insina.

Igihingwa cy'ikinyamisogwe cyitwa ubunyobwa, ubu bunyobwa bureze umuhinzi yabusaruye abukuye mu butaka ariko ubu ntarabasha gutandukanya impeke n'ibindi bisigazwa by'ibihingwa biri busigare mu murima.

Umusaruro mwinshi mwiza wigihingwa cyikigori, ni umusaruro wakusanyirijwe hamwe, washyizwe mumifuka yoguhunikamo, kugira ngo ubashe kubikwa neza, uzakoreshwe mu gihe kiri imbere.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi, ugizwe n'ibinyampeke bitandukanye, nk'ibigori n'amasaka, ndetse n'ibinyamisogwe by'ibishyimbo, uri ahantu ubasha gucururizwa, aho umukiriya aje awushaka, awubona ku buryo bworoshye.

Umusaruro w'igihingwa cy'igishyimbo, ibishyimbo by'amoko atandukanye byasaruwe bishyirwa mu mifuka. Igihingwa cy'igishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, cyera cyane gifasha umuhinzi ugihinga kwirinda inzara.

Amoko atandukanye y'imbuto y'ibishyimbo ashobora kuboneka mu Rwanda, ahangaha ni imbuto nyinshi z'ibishyimbo ziri mu mifuka itandukanye ziri gucuruzwa n'umucuruzi, aho ategereje abaguzi baza kuzigura bakajya guhinga.

Umurima mugari munini mwiza cyane ufite ubutaka butunganijwe neza, uhinzemo igihingwa cy'igishyimbo kimaze no gushingirirwa. Ibishyimbo byatangiye kunaga amajosi ndetse byuriye no ku biti bimeze neza cyane, birasa neza.

Umusaruro urunze hamwe mu dutsinda. Umusaruro w'igihingwa cy'ikinyamisogwe cyitwa ubunyobwa. Bumaze gukurwa rero mu butaka bwari buhinzemo hari n'undi murima munini cyane w'icyo gihingwa na wo weze.

Impeke z' igihingwa cy' igihwagari zumishijwe neza, aha umuhinzi yarazanitse ziruma, none yazikusanyirije hamwe aho yitegura kuza zihinga, igihwagari n' igihingwa kivamo ibintu byinshi bitandukanye nk' amavuta, amasabune n' ibindi byinshi.

Inzu nini yubatse mu buryo bw'igihangari ihunikwamo umusaruro w'ibigori kugira ngo bibashe kuma neza abaturage bazaze kubitwara mu buhunikiro noneho bw'igihe kirekire.

Itsinda ry'Abanyarwandakazi, bari mu mirimo yo gutunganya umusaruro. Aha barimo barikorera ibisigazwa by'umusaruro w'ingano bajya kubifumbiza imirima.

Igihingwa gitoshye cyiza cyane. Cyo mu bwoko bw'ibyubaka umubiri. Bikomoka ku gihingwa cyitwa amashyaza. Kiri mu murima umeze neza. Gifite ifumbire ihagije kiratoshye. Kimaze kuzana imiteja kiri hafi kwera.

Umusaruro w'ibigori wamaze gutunganywa, washyizwe mu mifuka yo guhunikamo, wakusanyirijwe ahantu hamwe, aho uyu muhinzi yiteguye kubibika akazabikuramo amafaranga mu gihe cyagenwe.

Amahundo atatu y'amasaka yeze. Amasaka ni igihingwa cyiza cyane ngandurarugo. Kiganjemo ibiribwa bitera imbaraga, intungamubiri zitera imbaraga. Kiboneka cyane cyane aho bakunda kugihinga, haba ikirere cyiza.

Umusaruro mwinshi cyane w'igihingwa cy'ikigori, ibigori byarasaruwe biri mu bwanakiro. Aho byanditse neza bitandukanye ibimanitse mu nzu ibirinda kuba byahura n'udukoko tubyangiza.

Ubwanwanikiro bunini cyane bw'umusaruro w'igihingwa cy'ibigori wubatse neza, burasakaye, abahinzi bamaze gusarura ibigori byabo, babizanye ku bwanakiro aha biranitse kandi bimeze neza cyane.

Igihwagari cyeze, igihwagari cyiza cyane, ni igihingwa gishobora kuvamo amavuta, gishobora kuribwa, ni ikiribwa gitera imbaraga. Igihwagare rero ni ikinyampeke cyiza cyane, cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Umufuka mutoya uringaniye urimo umusaruro w'igihingwa cy'ibigori. Ni imbuto nziza y'indobanure, umuhinzi yatoranyije ayibika muri uyu mufuka kugira ngo azayihinge mu gihembwe cy'ihinga gitaha.

Ururabo rw'igihingwa kiri mu bwoko bw'ibinyampeke cyitwa igihwagari. Igihwamvari ni igihingwa gikorwamo ibintu byinshi. Twavuga nk'amavuta yo kurya. Ibisigazwa byacyo bikavamo ibiryo by'amatungo.

Itsinda ry'inka nziza cyane, ziri ku mbuga ngari aho zashokeye. Ni inka ubona ko zimeze neza zishishe, zambaye amaherena, veterineri yarazisuye, kandi ziri kumwe n'umushumba wazo uri kuzikenura.

Ubworozi bw'inkoko, inkoko ni itungo rigufi ryororerwa mu nzu. Izi nkoko zororewe mu nzu zimeze neza, zifite uburiro buhagije, zifite n'aho kunywera amazi hahagije. Imishwi imeze neza iri gukura neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi ari mu bwoko bw'inkoko, zororewe mu kiraro, ziragaburirwa, zifite amazi, zifite isasiro, zimeze neza cyane zirashishe.

Ubworozi bw'inkoko inkoko n'amatungo magufi abasha kororerwa mu rugo mu nzu se agaburirwa ibiryo by'amatungo byabugenewe zikabasha gutanga umusaruro watuma umuntu yikura mu bukene

Itsinda ry'inka z'inyambo, n' inka nyarwanda nziza cyane, zifite amahembe meza. Zirabyagiye mu cyanya cyazo, inyuma yazo hari urugo rwiza ruzitiye neza, rucinyiye, ruzibuza kuba zajya kona uko zibonye.

Amagi menshi cyane ari ahantu hamwe mu dukoresho twabugenewe amagi atwarwamo. Igi riterwa n'inkoko, igi rero rikaba rikungahayeho cyane ku ntungamubiri zubaka umubiri.

Umworozi w'itungo ry'ingurube ,uri mu kiraro cy'ingurube, ingurube nziza cyane ,yageze mu kigero cyo kwima cyangwa kwimya, ari kuyikorera isuku ,ari na ko ayitera umuti uyirinda kuba yakwibasirwa n'udukoko ,ku ruhu rwayo.

Ubworozi bw'ingurube ibyana by'ingurube biri mu kiraro biri gufata ibyo kurya ahabugenewe, ingurube zimeze neza zibyibushye zorowe neza kandi zifite isuku.

Itungo rigufi ryororerwa mu rugo ryitwa ihene, rigaragaza ibimenyetso by'uburwayi ku ruhu, riri mu kiraro aho risanzwe riba ,rigaburirirwa kandi ni na ho riryama.

Inyoni yo mu bwoko bw'igisiga gifite umunwa muremure, gifite amabara meza, ni igisiga gikunda kuba ahantu mu gishanga, uyu munwa wacyo ugifasha kubona ibyo kurya, cyane cyane ibiba mu mazi.

Inyoni ebyiri ziri hamwe, zaje guhaha ni inyoni nziza cyane, zizwi ku izina ry'Igishwi ziri gutora rero ahantu hasa n'ahari ibisigazwa by'imyaka.

Inyoni nziza cyane zifite amabara meza kandi menshi abereye ijisho kuyireba, ihagaze ku byatsi bitoshye, ni ifunguro ryayo yaje guhaha no gutora ibyo irya.

Inkende iri ku ishami ry'igiti, yaje kwishakira ubwatsi bwo kurisha. Inkende n'akanyamaswa kaba mu ishyamba, kari mu muryango w'ingagi. Inkende zikurura ba mukerarugendo kuzisura, ndetse no gusura u Rwanda.

Ingagi nziza y'igisore iri kurira igiti cyo mu ishyamba. Ingagi rero ni inyamaswa ziba mu ishyamba ry'ibirunga, muri pariki y'ibirunga. Zibana n'abantu amahoro. Ni inyamaswa nziza zikurura ba mukerarugendo.

Akanyamaswa ko mu ishyamba keza cyane, kari mu bwoko bw'inguge, kari mu giti hejuru, kari kumwe n'akana k'ako gatoya, tumeze neza dufite amahoro, dukunda abantu baje kudusura.

Igisiga cyiza cyane kimeze neza kiri mu kirere, kiri ku muhigo wacyo. Kirambuye amababa kiri kuguruka, kiri kujya mu cyerekezo cyo guhiga, aho kigiye gushaka ibyo kurya bigitunga umunsi ku munsi.

Itsinda ry'inyoni ebyiri zihagaze ku giti, igiti gitoshye kiriho n'utwatsi. Ziri kwiyotera akazuba ari na ko zishaka ibizitunga. Inyoni zisa neza mu ibara ryiza cyane ry'ubururu n'umukara.

Utunyoni twiza cyane two mu bwoko bw'ifundi, duhagaze ku giti twota akazuba, tumeze neza cyane, aho tuzindutse tuza kwisusurutsa kugirango tubone uko tujya gushaka ikidutunga.

Ubwoko bw'inyoni, inyoni nziza cyane ifite amababa meza afite n'amoya menshi, ifite umunwa munini uyifasha gutoragura no kuyigaburira, bityo bikabasha kubona ibiyitunga.

Inyamaswa y'ishyamba iri mu ishyamba, imeze neza, yaje ku muhigo wayo cyangwa se yaje gushaka ubwatsi buyitunga. Ni inyamaswa rero izwi ku izina ry'impongo.

Itsinda ry'inyoni nini cyane zo mu bwoko bwa dendo zororerwa mu rugo, zishobora no kuba inyamaswa zo mu gasozi, ni nziza cyane zifite amabara meza kandi zirashishe, zimeze neza.